Aho bagiye bafata ifumbire bakagenda barirundamo n'ibyatsi kugira ngo ibashe kubora hanyuma bazakoremo ifumbire yo gushyira mu myaka kugira ngo bongere umusaruro.

Icyumba kirimo imiti y'amoko agiye atandukanye hakaba harimo n'ameza, hakaba harimo ubwoko bugiye butandukanye, umuti umuntu ashobora gukenera mu gihe ashaka kuyihereza itungo runaka.

Abahinzi biganjemo abakora ubuhinzi bw'ikawa bakaba barimo kugenda bakusanya ibyatsi kugira ngo basasire ikawa, hakaba harimo n'ibihaza biteyemo, abenshi muri bo bakaba bunamye.

Umugore ukora mu iduka ricuruza imiti, akaba yicaye ategereje abaguzi, yambaye furari ndetse kandi afite agasatsi yasokoje, ameze nkaho ari umurokore.

Iduka ririmo imiti y'amoko agiye atandukanye, hakaba arimo umugore ufite mudasobwa, akaba ategereje ko yakira abantu baje gusaba serivisi zigiye zitandukanye ziganjemo izo kuba yabavurira amatungo.

Urubyiruko rukaba rurimo kugenda rutera imyaka, barimo kugenda bashira ifumbire mu mwobo y'imborera, ndetse hakaba n'undi ufite ibasi arimo kugenda ashyiramo ifumbire mvaruganda.

Imifuka itondetse ahantu akaba ari ububiko cyangwa se akaba ari mu ruganda, iyo byabitswe nyuma yo kuba byatunganywa ndetse no kugira ngo bibanze bibikwe mbere yo kujyanwa ku isoko.

Icyumba giteye irangi ry'umweru, harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'inkweto, ubona ko ari umucuruzi kandi akora ibikorwa bijyanye no kuvura abantu.

Umuryango ufunguye ukaba ari uw'iduka ricuruza amoko agiye atandukanye y'imiti, bakaba baragiye bayishyira ku rugi kugira ngo ijye ahagaragara, abantu bajye bamenya ibikorerwa hano.

Icyumba kikaba kirimo imiti y'amoko agiye atandukanye ya yandi yifashishwa mu kuba babihereza abahinzi bakabishyirara mirima yabo harimo n'ibikoresho byifashishwa mu kuvomerera izo bita rozwara.

Ububiko bw'imiti igiye itandukanye, igiye iri mu makarito kugira ngo hatagira ibiza kwangirika. Hakaba hari amoko agiye atandukanye, harimo ibifite amabara y'icyatsi, ibindi bikagira andi mabara y'umweru n'andi.

Akarima k'igikoni gakunze guhingwamo imboga nyinshi zitandukanye, ugasanga ari ahantu heza ho guhinga amoko yose y'imboga kuko haba harimo ifumbire.

Umugabo ukora mu by'imiti, akaba afite telefone, akaba yambaye n'amadarubindi, akaba ategeje abaguzi. Uyu nguyu akabatanga n' inama kubijyanye n'ubuvuzi cyane cyane ubw'amatungo

Inzu irimo imiti ya yindi yifashishwa bayihereza amatungo. Harimo n' ibikombe birimo umurama wa karoti ndetse n'indi irimo mirama ya betarave yifashishwa mu kuba bayishinga.

Akarima k'igikoni, kakaba karimo ibihaza bigiye bizengurutse iki gipangu ndetse kandi nta bihaza birimo, harabura igihe gitoya kugira ngo bibe byatanga umusaruro.

Abagabo barimo gukorera hamwe biganjemo abakora amakoperative, bakaba barimo kugenda barundarunda ibyatsi, barimo kugenda bakora ifumbire bifashishije imborera ndetse n'amase.

Umufuka wuzuyemo ifumbire mvaruganda yifashishwa mu kuba batubura cyangwa se bongera umusaruro, igihe barifashe bakaryogeranya n'imborera.

Abahinzi bagera kuri babiri bakaba barimo kugenda bakusanya ifumbire hakaba hariho insina barimo kugenda babafasha kuzikorera ndetse kandi bakaba umwe muri bo yambaye ingofero.

Iduka bacururizamo imiti y'amoko agiye atandukanye, yiganjemo iyo bahereza amatungo ndetse kandi ahangaha bakaba bagira niyi ushobora gushira mu bimera, kugira ngo wice udukoko.

Iduka ririmo umugabo wikoze ku gahanga, rikaba ricuruza imiti yifashishwa mu bworozi ndetse no mu buhinzi igihe bibaye ngombwa, akaba ategereje abaguzi ndetse no kuba yagira inama ku bantu baje bamugana.

Abacuruzi benshi bakunze gusanga bakora ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubucuruzi, yaba ubw'imiti, ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho bijyanye n'ubwubatsi.

Ifumbire mvaruganda iri mu ibase ijya gusa nk'umuhondo, ndetse kandi ikaba yifashishwa mu kongera umusaruro mu gihe yavanzwe n'indi fumbire y'imborera.

Iduka bakaba bacuruzamo imiti y'amoko ye atandukanye yiganjemo iyo bahereza inka, cyangwa se n'izindi nyamaswa, gusa habamo n'iyo batera udukoko tuba twaje mu murima kugira ngo ibashe gutanga umusaruro.

Iduka rikaba ririmo imiti igiye itandukanye yifashishwa cyane cyane mu bworozi, kuko ihabwa amatungo igihe yarwaye cyangwa se mu gihe bari kuyishaka ko, ayo matungo abashe gukura.

Umurima urimo insina zikiri ntoya ndetse kandi hakaba hateyemo ikawa za zindi zifashishwa mu kuba bazohereza hanze, hanyuma igihugu kikaba cyakinjiza amadovizi mu gihe umusaruro wabonetse.

Agace karimo imyumbati, hakaba harimo n'ibiti bigera kuri bibiri, hakurya hakaba hariho ibihuru, ndetse ibibabi by'ibiti bigenda bimanuka, aho biri hagahita huma, ku buryo uramutse urasiyemo umwambi ahantu hose hahita haka.

Umurima ukaba urimo imyumbati ndetse iracyari mitoya, hakaba hariho amazu hakurya ndetse kandi hakaba hariho ibiti bigiye bitandukanye, bituma haboneka imvura.

Abahinzi b'ibinyomoro akaba ari babiri umugore n'umugabo, hakurya hakaba hariho n'undi mugabo urimo kwitegereza ibiri gukorwa, barimo kugenda bareba umusaruro wabo, bareba aho bigeze.

Umugore uhinga inyanya, akaba arimo kugenda areba izamaze gutukura akagenda azisarura, arimo kandi kugenda yisekera yishimira umusaruro yenda kuzabona.

Ibihingwa byiganjemo ibishyimbo bikiri bitoya, hakaba harimo n'ibiti byasizwe n'ibigori bagiye bakuraho ku buryo ibimera bizagenda bizamukiraho nta kibazo.

Ibitoki bagiye bakuraho amaseri ndetse bikusanyirijwe hamwe kugira ngo babashe kuba babigurisha ku bantu babikeneye, ndetse kandi bigiye bifite ibiti birebire byo kuba bafataho.

Imyumbati iteye ku murongo ndetse hagati hakaba hariho aho umuntu ashobora kunyura, ndetse kandi iyi ngiyi ikaba yakurwamo ubugari hakabamo n'iyo barya mu gihe bibaye ngombwa.

Aho barunze umusaruro w'ibigori, bikaba ari bya bindi bigira impungure z'umuhondo, akaba ari mu buhunikiro kugira ngo babitunganye, nyuma bizavemo ifu y'ibigori cyangwa se akawunga.

Ahari ingano zikaba zirimo kugenda zikusanywa bareba ko umusaruro umeze neza ziba zimeze kandi nk'umuceri utaragera igihe cyo gutonorwa aho biba bisaba kugira ngo zijyanwe mu ruganda.

Ibigori bikiri bibisi bikaba umuntu yabyotsa cyangwa se akaba yanabiteka mu gihe bibaye ngombwa, bikaba byoroshye ku buryo uwo ari we wese ashobora kuba yabirya.

Igihingwa cy'icyayi ndetse kikaba cyifashishwa mu kugira ngo bacyohereze mu bihugu byo hanze ndetse kandi ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu.

Umurima umaze igihe gitoya ushyizwemo indi myaka, hakaba harimo ibishyimbo, ndetse kandi hakaba hariho ubutaka burimo kugenda butsuka. Hakurya hakaba hariho ibiti by'imiyenzi.

Umurima urimo inanasi, akaba ari abahinzi babigize umwuga, zikaba zigeze igihe cyo kuba zisarurwa ndetse kandi inyinshi muri zo ziratukuye.

Umurima urimo ibishyimbo bikiri bitoya bamaze igihe gito bateye, hakaba harimo n'imyumbati igiye itiyemo umwe umwe ndetse hakurya hakaba hariho inzu, bikaba biri ahantu mu murima uhanamye.

Umuti ushobora kwifashishwa mu kuvura haba ku nyamaswa cyangwa se mu bimera, uyu nguyu ukaba uri kumwe n'agakoresho muganga w'amatungo agenda abikamo imiti ye cyangwa se veterineri.

Umugabo ufite ijerekani y'ibara ry'ubururu, bigaragara ko irimo umuti, usanga akenshi imiti myinshi ishyirwa ku bihingwa ikunze kuba iri mu tu tujerekani.

Umuti uri mu macupa agera kuri ane yose asa, ikaba yifashishwa mu kuba yaterwa cyane cyane mu myaka mu gihe barimo kwica udukoko dushobora kuyibasira.

Imiti yifashishwa mu kuba bayihereza inka, intama ndetse n'ihene. Bakaba barimo kugenda bayimurika, ikaba ikunze kuboneka mu maduka acuruza imiti bita Farumasi.

Umuti wifashishwa mu kuvura inka, ingurube ndetse n'inkoko, ukaba hariho izina ryawo, akaba ari agakarito ndetse hakaba hariho n'icupa rigaragaza uyu muti.

Umugabo w'umuhinzi akaba yarateye ibiti bya avoka, bikaba bibanguriye, bikaba byaratangiye kwera bikiri bitoya, akaba arimo kugenda yerekana uko voka zatangiye kuzaho ku giti.

Abantu benshi hakaba higanjemo urubyiruko, bakaba barimo kugenda bakora umuganda, baharura ibyatsi ndetse kandi hakaba hariho n'abagore na bo barimo kugenda bareba uko igikorwa kirimo kugenda.

Abakobwa bagera kuri babiri barimo kugenda bakora akarima cy'igikoni, bakaba barimo kwifashisha imifuka ndetse kandi bakagenda bakusanya ubutaka bakoresheje ibiti, bikaba ari byo biri kugenda bifata ubutaka.

Abajyanama b'ubuhinzi bakaba barimo kugenda bafasha uyu mugore kugira ngo abashe kuba yakwiteza imbere, barimo kugenda bamuhugura ku bijyanye n'uko yatera ndetse agakora kijyambere.

Abantu bitabiriye umuganda bakaba barimo kugenda bakata icyondo kugiran ngo babashe gufasha abaturage. Bakaba barimo kugenda bakata kugira ngo babashe guhoma inzu, nibarangiza baze gukora ikiraro.

Abantu bo bagera kuri bane abagabo batatu ndetse n'umukobwa umwe wambaye ingofero y'umukara, bakaba barimo kugenda bitegereza umusaruro w'ibigori, bikaba bimaze kwera, byenda gusarurwa igisigaye ni ukubabwira ngo bimaze kuma.

Abahinzi usanga bavuga ko iyo bari guhinga, bakunze guhura n'imbogamizi yo kutabona ifumbire, bityo ibihingwa bahinze ntibibashe kubona umusaruro mwinshi.

Umugabo w'umuhinzi, akaba arimo kugenda atera imbuto zigiye zitandukanye, iruhande rwe hakaba hariho amateke na yo akaba ari muri bimwe arimo kugenda atera, inyuma ye hakaba hariyo insina.

Abahinzi benshi b'imbokga bavuga ko iyo bashyizeho ifumbire babasha kubona amafaranga bakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye, bityo bikabongerera umusaruro ubaha amafaranga.

Umwana mutoya urimo kugenda atera igiti ,arimo kugenda afata ubutaka agacukura yarangiza agashyiramo igiti, akakirenzaho itaka kugira ngo kizatange umusaruro.

Abagore barimo guhinga, bakaba biganjemo abafite amasuka bayamanitse, umwe ni umunebwe arimo kugenda areba inyuma abara inkuru ndetse abandi bo bakataje bari ku murimo.

Abantu biganjemo urubyiruko, bakaba barimo kugenda, baharura ibyatsi biri mu nzira, barimo kugenda bakora umuganda kugira ngo ahantu habe hafite isuku. Higanjemo abakobwa ndetse n'abasore bose bakaba bafite amasuka.

Itsinda ry'abantu benshi bakaba barimo kugenda bahinga, barimo gukorera hamwe, bari hejuru y'inzu barimo kugenda bakubitira amasuka rimwe uretse bamwe b'abanebwe barimo kugenda bahagarara.

Umugore w'umuhinzi akaba ari mu murima, arimo kugenda awutunganya, harimo insina zikiri ntoya ndetse arimo kugenda akusanya ibyatsi, ari nako agenda abishyira ku ruhande rumwe.

Umurima urimo umugore urimo kugenda ahinga, harimo amateke, inyuma ye kandi hakaba hariho insina, akaba arimo kugenda ahatunganya kugira ngo hamere neza.

Imbaga y'abantu benshi, bameze nk'abibumbiye mu makoperative, bakaba barimo kugenda bakorera isuku mu mirima yabo, bagenda baharura ndetse banakura ibyatsi mu birayi kugira ngo bitange umusaruro.

Abagore bagera kuri bane, bakaba barimo kugenda bacukura kugira ngo babashe gushiramo ibihingwa bigiye bitandukanye, cyane cyane ibiti. Barimo kugenda bafashanya ari nako bagenda baganira.

Urubyiruko rurimo kugenda ruganira n'abahinzi ndetse ahantu bari, bafite amatelefone urimo kugenda bareberamo ndetse banafata amafoto ku biri kujya mbere.

Umukobwa wabigize umwuga akaba ahinze inkeri. Aha ngaha akaba arimo kugenda areba aho umusaruro ugeze, akaba yarahinze muri bwa buryo aho ahantu haba hasakaye biba bimeze nk'ibihinze munzu.

Abantu barimo kugenda bakora umuganda, harimo abaturage, hakabamo abagabo, abagore, ndetse n'urubyiruko, bakaba barimo kugenda bakora isuku, aho batuye.

Umugabo w'umuhinzi akaba ari mu murima arimo kugenda acukura, yambaye ingofero y'umweru ndetse n'ipantaro y'umutuku akaba yambaye na bote arimo kugenda asibura ubutaka kugira ngo babashe kubona uko batera.

Abahinzi b'imboga bavuga ko iyo wazihinze neza, ubona amafaranga ndetse ukabona n'ibyo kurya. Akenshi usanga mu isoko huzuyemo idodo ndetse n'inyanya n'intoryi.

Icyumba kibitsemo imifuka myinshi, akaba ari uruganda rwagiye rutunganyirizwamo umusaruro, hakaba harimo aho bagiye bakora habugenewe ho gushira imifuka yamaze gutunganywa.

Abagabo babiri bari mu murima w'ibirayi bikaba byenda kwera, bakaba barimo kugenda batera umuti kugira ngo bice udukoko dushobora kuba twabangamira umusaruro wabo tukaba twatera igihombo.

Icyumba kirimo imifuka igiye igerekeranye, hakurya hakaba ariho abagabo bagera kuri batatu, aha ngaha hakaba hameze nko mu ruganda, ahantu bagenda bahunika imyaka mu gihe yamaze gutunganwa.

Agace karimo insina hakaba harimo n'amasaka bagiye bahinga, akaba ari bya bitoki bya fiya byera by'imineke ku buryo badashobora kubyengamo umutobe, ari ibyo guhingwamo cyangwa se kuribwamo imineke.

Umugabo akaba ahinga inyanya, akaba arimo kugenda azisasira yaziteye imiti, zifite amababi yagiye aza aho ibintu by'umweru ndetse kandi hakurya hariho umusozi, hakuno hakaba hariho insina.

Igishanga kirimo abantu bikoreye ubwatsi bakaba baragiye barima babihuriza hamwe kugira ngo bibashe kuba byacengerwamo n'amazi hanyuma bazateramo imyaka mu gihe runaka.

Ahantu hari imifuka ya yindi ipima ibiro ijana, ikaba irimo impungure bagiye bakusanya kugira ngo zige gutunganywamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, urugero bishobora kuba ari akawunga cyangwa se ifu y'igikoma.

Imifuka irimo umuceri bikaba byarangiritse imifuka nayo ikaba yaragiye ishwanyagurika ndetse umuceri nawo hajemo ibintu by'imikara bigaragaye ko yangiritse.

Umurima uhinzemo imigozi y'ibijumba akaba ari ku buso butoya. Ikaba imaze igihe gitoya itewe, ikaba itaratangira kuba yashora.

Udukoresho twabugenewe bagiye bapangamo avoka kugira ngo zitwarike neza zitangiritse, bukaba ari bwo buryo bwiza bwo gukusanya umusaruro, cyane cyane uw'avoka.

Iduka ririmo imifuka igiye itandukanye, aha ngaha bakaba barimo kugenda bamamaza, bavuga ko batunganya umuceri mwiza kandi uryoshye, aha ngaha hakaba hari abaguzi baje kugura.

Umurima ukaba urimo umuceri utari wagera igihe cyo kwera, hakaba hariho abantu barimo kugenda batera inyoni kugira ngo zitazarya uruyange hanyuma bakaba barumbya.

Ishyamba ririmo ibiti by'amoko agiye atandukanye hariho n'igitoya, hakaba ari bwa buryo bwo gufasha mu kurinda ibidukikije no kugira ngo inyamaswa zibashe kubona ahantu ziba kandi zisanzuye.

Umurima uhinzemo ibihaza bya bindi bita ibishayote bigenda birandaranda hejuru mu biti, bikaba bigira n'imbuto cyangwa se ibihaza biba bisa icyatsi, bikaba biri mu murima hejuru mu biti.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuko bidufasha kwiyungura ubumenyi ku bijyanye n'ibihingwa, dushobora guhinga ahantu runaka tugendeye ku bidukikije bihari.

Igiti cyifashishwa mu kuba cyakurwamo imihembezo, igihe barimo gushingikirira ibishyimbo, kikaba cyaratemwe, kikaba cyaragiye gishibukaho ibiti bigiye bitandukanye.

Ishyamba ririmo ibiti bimwe byagiye bigondama ibindi ntabwo bibyibuha biracyari bitoya ahubwo bigenda bishamika impande zigiye zitandukanye hagati kandi harimo ibyatsi bitoya.

Umurima urimo insina, hakaba harimo imbingo ndetse kandi izi nsina zirimo zigera kuri ebyiri ntabwo zari zatangira kugera igihe cyo kuba zazana igitoki.

Igiti batemye ndetse hakaba hariho ibyatsi, bikaba bitemewe kuko biba bisababwa ko umuntu atema igiti yarangiza agatera ibindi bibiri kuko aha ngaha aba arimo kugenda ashyira mu kaga ibidukikije.

Ahantu hari igiti cy'ipera, kikaba kikiri gitoya, kikaba kitari cyakura, kikaba cyaragize amashami menshi, akaba akibuza kuba cyakura neza kugira ngo gitange umusaruro.

Igiti kikiri gitoya gikunze kugira utubabi cyangwa se iyo kimaze kwera kizana utuntu, umuntu ashobora kujegeza iyo twumye ndetse kandi tuba tumeze nk'amashaza iyo tukiri tubisi.

Imbuto y'ibihaza yayindi ikura irandaranze ku biti ikaba iri ahantu h'umurima urimo ibyatsi byinshi hameze nk'aho hadakorerwa isuku ndetse kandi hahinzemo amateke.

Agace karimo ishyamba, karimo ibiti by'inturusu ndetse hino hariho umucaca w'umuterano. Akaba ari bwa buryo bwo gukora amashyamba kugira ngo babashe kuba bakurura imvura.

Akarima gato k'igikoni kakaba karimo ibipapayi, hakaba harimo n'imboga z'amoko atandukanye ziganjemo dodo, hakaba hariho n'ibindi biboga byashaje bikenewe kuba byasimburwa.

Igiti cya pinusi bagiye bakomeretsa ndetse kandi hakurya harimo n'ibindi byinshi, ni mu ishyamba aho amababi yabyo yagiye yisasa hasi ku buryo ushobora no kuba waharyama.

Igiti cyakuze cyane kikaba cyaraguye, kikaba abantu baratinye no kugitashya, akaba ari nka bya biti bya leta, aho umuntu aba atemerewe gukoraho mu gihe atabiherewe uburenganzira.

Agashyamba karimo ibiti by'amoko agiye atandukanye, hamwe hakaba hahinze ndetse kandi hakaba harimo n'insina, hakaba harimo imbingo ndetse ku ruhande rumwe hakaba harimo n'amateke.

Ishyamba ryinshi usanga rikunze kuba ryaratemwe maze rigashibuka, hakaba rero n'irindi usanga barariteye maze rikamera ari ryiza ku buryo rivamo umusaruro.

Ahantu hari ishyamba ririmo ibiti birebire by'ibishupuri ndetse kandi akaba ari bwa buryo bwifashishwa mu kurinda ibidukikije ndetse no kuba byakurura imvura mu gihe iba ikenewe.

Ahantu hari igisambu kidaheruka guhingwa, hakaba harimo ibimera byimejeje, hakurya hakaba hariho inzu isakajwe amategura, bikaba ari ibihuru byagiye bimera hano.

Ahantu mu isoko, hakaba harimo amoko y'imboga atandukanye. Hakaba higanjemo intoryi, inyanya, hakaba harimo karoti ndetse n'ibindi bikomoka ku mboga.

Umugore urimo kugurisha pavuro zikaba ziri ntoya zitaratanze umusaruro uhagije zikaba ziri ku gataro gatoya ndetse kandi hakabaho n'imifuka iri hasi.

Umugabo ukora ibijyanye n'ubuhinzi aka arimo kugenda yitegereza imbuto ze, akaba ari intoryi, akaba ari kumwe na mugenzi we bakaba barimo kugenda bitegereza uko ibikorwa byabo bimeze.

Ahantu hacururizwa amoko agiye atandukanye y'imboga, bakaba bafite ndetse n'urubuto rwa pome, hakaba hari ibitunguru by'amoko agiye atandukanye, pavuro ndetse na kokombure kandi bacuruza n'imiteja.

Agatoki gahiye kakaba kariho imineke yose uko yakabaye, ikaba ari kamara. Bakaba bayirambitse ahantu hameze neza, ku buryo idashobora kuba yahunguka. Ushobora kuba wayisanga mu maduka ukayigura.

Ahantu hari akarima cy'igikoni kakaba karimo imboga z'amoko agiye atandukanye, higanjemo dodo zishobora kuba zategurwa ku ifunguro rya buri munsi cyangwa bakaba banasagurira isoko, ahantu ziri hakaba hari inzu za zindi zubakwa mu biti.

Iduka rikaba ririmo ubwoko bugiye butandukanye bw'imbuto, hakaba hariho imyembe, hakaba hariho avoka ndetse n'ibinyomoro n'umuntu byo ashobora kugura igihe ashaka n'imbuto zo kuba yakirira.

Ahantu bororera imbuto cyangwa se ibiti hakaba ariho ibiti by'amapera hakaba hariho abagabo babishinzwe, bakaba baje ku harimo abaje kubigura kugira ngo na bo babashe kuba bagira ibiti by'imbuto iwabo.

Abahinzi b'imbuto akenshi bakunze kuzihinga mu bishanga kuko usanga ariho bakura amafaranga yo gukoresha ibikorwa bitandukanye, akaba ari yo mpamvu usanga abenshi muri bo, bavuga ko imboga ari nziza.

Agace karimo ubusitani hakaba hariho indabo za zindi ziba zifite uduti bagenda baconga kugira ngo bibashe kuba bisa neza, hakaba harimo n'imikindo irimo hagati.

Igihingwa bita tangawizi kikaba cyifashishwa cyane cyane mu cyayi ndetse kikaba cyanavura indwara zigiye zitandukanye ziganjemo Inkorora ndetse zikaba zanavura n'ibindi

Uturima tugera kuri tune tugiye dukurikiranye, tubiri muri two turimo karoti zendakwera utundi tukaba turimo imigozi y'ibijumba, hakurya hakaba hariho imirima idahinze.

Ahantu bakoze ubworozi bw'ibiti hakaba hariho icyayi bagiye batunganya kugira ngo umuntu abashe kuba yaza akakijyana kugihinga kuko ari kimwe mu bihingwa ngenga bukungu.

Abahinzi b'imiteja bakaba barimo kugenda basarura, umwe arimo kugenda ashyira mu mifuka hanyuma bagashyira mu kindi kintu kimeze nk'igikesi, akaba ari na cyo bifashisha mu kuba bajyana umusaruro wabo aho bateganije.

Umuntu w'umuhinzi wabigize imyuga, akaba yarafashe uruzitiro akagenda akwirakwizaho amatsinga kugira ngo amatunda agende ari kuzamukiraho, akaba arimo kugenda ayayobora mu zindi nzira.

Umugore akaba ari umuhinzi afite intoryi mu ntoki, yambaye ingofero y'umukara ndetse irasa n'agapira afite, akaba akenyeye n'igitenge, uyu nguyu akaba ari umuhinzi arimo kugenda yerekana umusaruro.

Abahinzi b'ibinyomoro bavuga ko ibinyomoro bigira amafaranga menshi, bakaba bayakuramo bakayakoresha ibikorwa bindi bitandukanye, harimo kurihira abana amashuri ndetse no gutanga mitiweli.

Imboga n'imbuto usanga akenshi zikunze kuba zihingwa mu turima tw'igikoni cyangwa se mu kabande, akaba ariyo mpamvu abantu bashishikarizwa guhinga izi mbuto kugira ngo bazibone hafi.

umuhinzi akaba ahinga ibijyanye n'ibibiringanya biba bikozwe n'intoryi, ahangaha birasasiwe kandi arimo kugenda yitegereza aho umusaruro we ugeze ngo arebe niba yatangira kubibarira.

Ahantu bakaba bororera mu kavuyo hakaba ari inkoko ziri mu kajagari hamwe n'intama byose bikaba biri hamwe, bikaba biri ahantu hariho ibyatsi bigiye bitandukanye zagiye zinyukanyuka, ndetse kandi hakaba hari urugi rw'ibati.

Umukobwa wabigize umwuga akaba yambaye ingofero y'umukara ndetse kandi yambaye boti z'umukara, akaba afite ibiti yagiye yorora by'imyembe, kugira ngo abashe kuba yabigurisha ku bantu bashaka kujya gutera imbuto.

Ubusitani bukikijwe n'indabo za zindi bagenda bakata, bagakora uruzitiro mu rwego rwo gukora ubusitani ndetse no kuba bakora uruzitiro. Rukaba hakurya hariho ibindi biti by'amoko agiye atandukanye, kandi bikaba byegereye ahantu hari umuyoboro.

Abahinzi b'urusenda usanga bavuga ko ikihingwa gitanga amafaranga menshi kandi kigatanga umusaruro. Niyo mpamvu usanga ababikora babona amafaranga atandukanye bakoresha mu bikorwa byinshi.

Isoko ririmo imyaka igiye itandukanye yiganjemo imiteja, hakaba na beterave, hariho kandi karoti ziri mu mabase ndetse hakaba n'umunzani wifashishwa mu gupima ibiro.

Abantu bakora ubuhinzi bw'imbuto aha ngaha bakaba bafite amatunda bagiye basarura ndetse kandi bagiye bayahinga mu buryo bwa kijyambere, aho aha ngaha hari abantu bagera kuri bane bose bafatanyije.

Imboga nyinshi zikunze kuba zisa neza kuko iyo ugiye kuziteka zidasa neza urazironga maze, ugakuraho umwanda bityo ukabona guteka kugira ngo wirinde umwanda.

Umwana muto akaba afite ikimera agiye gutera mu bice bigiye bitandukanye, akaba avuye ha hantu bajya bashira ibiti babirera kugira ngo bazabitere mu gihe runaka bimaze gukura.

Umurima urimo ibinyomoro, kimwe kikaba gifite bimwe byenda kwera ahandi bikaba byarapfuye, bikaba bizatanga umusaruro udashimishije bitewe n'uwo nyir'umurima yari akeneye.

Iduka rikaba ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo imbuto, hakaba harimo amarongi, imyembe. Hakaba harimo inanasi ndetse n'izindi mbuto z'amoko agiye atandukanye umuntu yabasha gukoresha.

Mu isoko hakaba hariho avoka ndetse kandi hakaba hariho n'inyanya, hakaba hariho n'umuntu urimo kugenda zicuruza inyinshi zigiye zipanze ku mifungo igiye itandukanye.

Ahantu hashyirwa ibiti bikiri bitoya, aho bafata umurama bakabanza bakawushyira mu gihoho kirimo itaka byamara kuzamuka bakaba bakibatura bakabijyana ahandi hantu kugira ngo babashe gukora ishyamba.

Ibinyomoro ni igihingwa kiza gitanga umusaruro kuko usanga ababihinga, babikuramo amafaranga bifashisha, mu bikorwa bigiye bitandukanye bityo bakabasha, kwiteza imbere mu buryo bwose.

Ibinyomoro biri ahantu mu murima munini ukaba utarimo ibyatsi habe na kimwe, ndetse kandi hakaba hari ibyatsi bagiye basasiza ibi binyomoro kugira ngo hasi hataza kuma.

Mu iduka hakaba harimo ibiribwa by'amoko agiye atandukanye, byiganjemo ibijumba, ibihaza ndetse hakaba harimo abaturage bagiye baza kubigura ndetse n'abarimo kugenda babigurisha.

Mu isoko hakaba harimo imiteja, hakabamo amaronji, hakahamo karoti ndetse n'ibindi, aho umuntu ashobora kujya kugura imboga bitewe n'izo akunda akaba yazigura akazijyana kuziteka.

Ahantu hubatse akarima k'igikoni, hakaba harimo amoko agiye atandukanye y'imboga bagiye batera kugira ngo uru rugo rutazongera kubura imboga ndetse kandi bajye basagurira n'amasoko.

Umugore w'umuzunguzayi akaba arimo kugenda agerageza gushaka abaguzi b'ibyo afite, akaba yikoreye imineke mu kabase ndetse akaba afite n'andi matunda mu kandi kabase, akaba ari kunyura ahantu haparitse amamodoka.

Ipapayi ni igihingwa gitanga umusaruro ku bantu benshi kuko usanga ari igihingwa cyiza, akaba ari urubuto rusanzwe abantu bakunda kurya.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye. Ishyamba ni ryiza kuko rituma abantu babona umwuka mwiza bahumeka. Ibimera kandi ni byo bikurura imvura maze abantu bagahinga neza bityo bakabona umusaruro bakiteza imbere.

Umucuruzi akaba afite ibinyomoro arimo kugurisha ndetse n'amatunda, akaba ayafite mu mabase ndetse akaba ari no mu ishashi bituma atabasha kuba yakwangirika cyangwa se ngo abore.

Ahantu hari ibinyomoro bikaba bitangiye gusaza, igiti biriho kikaba cyaratakaje amababi yacyo, hakaba hariho ibinyomoro bigera kuri makumyabiri, ibi byose bikaba bizagenda bikurwaho.

Ahantu hari ubusitani bukaba bugizwe n'indabo za zindi bagenda bacunga bigakora uruzitiro, hakaba hariho n'ibiti bya gereveriya bikiri bitoya ndetse hakaba hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Ibitunguru bifashwe n'umuntu, birimo umusaruro mwiza, bikagera kuri bitanu, bikagira umumaro mu gihe umuntu arimo guteka, akaba yageze igihe cyo kuba yakaranga

Imyungu, amaronji, amatunda ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, akenshi ukunze gusanga bigura amafaranga menshi kandi na byo ukabona ko ari byiza.

Imineke ni igihingwa cyiza cy'urutoki ubona ko gitanga amafaranga menshi cyane, niyo mpamvu usanga abantu benshi bakunda guhinga urutoki kuko ari ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi.

Akarima k'igikoni akenshi gakunze guhingwamo imboga zo guteka kubera ko ababyeyi benshi babona kuzikura hafi ari byo biborohera, kuruta kujya kuzigura mu isoko.

Umugore urimo gusekara arimo gufata itiyope agenda anyanyagiza mu mpande zigiye zitandukanye uzi umurimo we kugira ngo abashe kuwuhira iyi myaka ye hanyuma imire neza itange umusaruro.

Umurima urimo ibigori, hakaba harimo umugabo ufite itiyo ry'amazi arimo kugenda anyanyagizamo kugira ngo bibashe kuba bihehereye ndetse kandi bibashe gutanga umusaruro nkuko biba byitezwe.

Abagabo batandukanye barafatanya kuhira imyaka yabo, ni byiza kuhira imyaka kuko iyo imvura yabuze cyangwa izuba rikava, ni byiza ko wuhira kugira ngo igihingwa agikure neza kandi gitangage umusaruro.

Umurima urimo imbuto zigeye zitandukanye ziganjemo pavuro, hakaba hariho abantu babiri barimo kugenda bayanyagiza amazi mu murima kugira ngo babashe kubona umusaruro uhagije.

Umugabo urimo gukurura amazi mu mugezi akaba yifashishije itiyo, hino ye hakaba hari igitiyo ndetse kandi hakaba ari mu kibaya gihinzemo ibigori byinshi ku mpande zombi zikikije umugezi.

Umurima urimo imboga z'amashuri, hakaba hariho abagabo ndetse barimo kugenda bazuhiraho amazi kugira ngo zize kuba zitoshye kandi zitange umusaruro nk'uko baba barabyiteze.

Abasore bari gukora ibikorwa bijyanye no kubumba amatafari, bari kuvoma amazi bayajyana kuyasuka mu cyondo bityo bakabasha kubumba amatafari yo kubaka inzu.

Umugabo akaba afite itiyo ririmo kugenda rivamo amazi arimo kugenda anyanyagiza mu murima we, kugira ngo ubashe kuba wanywa amazi ahagije kugira ngo ube utoshye ndetse n'ibihingwa birimo bizatange umusaruro.

Umugabo ufite itiyo ririmo kugenda rivamo amazi, bari kugenda bavomerera kugira ngo imyaka irimo ibashe kumera, ni bwa buryo bwifashishwa mu gihe cy'impeshyi kugira ngo ubutaka bube buhehereye.

Ahantu hamaze igihe gito hakozwe amaterasi y'indinganire, hakaba harimo imyobo bagiye bacukura kugira ngo izashyirwemo ibimera ,ndetse kandi hakaba hateye mu uburyo bugezweho bashyiramo ifumbire kugira ngo bizere.

Umurima urimo ibigori byamaze kuma, ndetse hakurya hakaba harimo ikibaya kirimo amazi menshi, akaba ni mu gishanga. Ahenshi hakaba hahingwamo ibijyanye n'imiceri cyangwa se imbuto n'imboga.

Inzu zituye ahantu hari mu manegeka ndetse hakaba hariho insina ndetse haruguru yazo hakaba hariho ibishyimbo bya bindi bya mushingiriro ndetse kandi inzu zikikijwe n'insina.

Ikibaya kikaba gihinzemo umuceri ndetse hakurya hakaba ari mu mujyi, hakuno naho hakaba habereye aho nta bindi bihahinze, hakaba hariho ibyatsi gusa biri ahantu mu kayira.

Ikibuga kinini kikaba gikikijwe n'ibiti ku mpande, hakaba hariho imodoka zirimo kugenda hafi y'umuhanda, hakaba ari umucaca uhari ndetse warakuze ntabwo baheruka kuwutema.

Akenshi usanga mu bishanga bahingamo imiceri bityo bakabona amafaranga. Akaba ari yo mpamvu usanga bakunda guhingamo ibi bihingwa, kuko haba hari amazi.

Ikibuga kinini gikinirwamo umupira w'amaguru, ubona ko ari ikibuga cyiza kirimo ibyatsi kandi kizengurukijwe ibiti hirya no hino ndetse n'uruzitiro rw'ibyuma.

Ahantu hari imirima hakaba harimo n'ikiga cy'amazi, hakurya hakaba hariho ikozwe mu buryo bw'amaterasi y'indinganire, ndetse ikaba idahinze, ikaba ari mu gihe gitoya imaze isaruwe.

Ikibuga kikaba kirimo akayira gatoya karimo kugana mu bindi byerekezo, hakurya hakaba hari guhinguka akazu, kandi ku rundi ruhande hakaba hariho ibiti birebire bikoze agashyamba gato.

Umwana mutoya akaba ahagaze ahantu hari ingano zumye ndetse kandi yishyize urutoki mu kanwa ndetse inyuma ye kandi naho hariho umurima urimo ingano zenda kugera igihe cyo gusarurwa.

Ikibuga kinini kirimo umucaca wimejije ndetse hakaba hakurya hariho amazu, hino ho nta mazu ahari uretse igiti kimwe rukumbi cyameze hagati mu kibuga.

Inyubako isize irangi ry'umweru, isakaje amabati atukura, iri ahantu hitaruye heza, ubona ko wahasohokera n'inshuti zawe mukabasha kwishima kandi mukanezerwa.

Umurima munini ukaba uhinzemo ikawa ndetse zigeze igihe cyo kuba zatukura zirabura igihe gitoya, hakurya kandi hakaba hariho ibiti bya gereveriya ndetse n'imisozi igiye itandukanye igiye ikikije izi kawa.

Abantu bameze nk'abari mu makoperative bakaba barimo kugenda bagaragaza umusaruro wabo ndetse bafite inkwavu, buri wese agiye ateruye urukwavu, umwe afite ebyiri ndetse n'abandi.

Inka ifite amabara agiye antandukanye yiganjemo umweru n'umukara ikaba iri kwitegereza mubyerekezo bigiye bitandukanye aho iri kandi bakaba baragiye bayisasira gusa ntabwo yisanzuye kuko ni hatoya igiye yigonze.

Inzu, ikaba ikorerwamo ibijyanye n'ubworozi, hakaba huzuyemo inkoko zifite ibara rimwe. Hakaba hariho ibikoresho inkoko zifashisha mu gufatiramo ibyo kurya ndetse no kunywa amazi.

Inka iri mu kiraro, ikaba irimo kugenda irisha ubwatsi bayihaye, bwiganjemo amakoma ndetse ikaba iri ahantu harimo umwijima ku buryo itagaragara neza.

Aho wororera inka, hakaba harimo abagabo bagera kuri batatu, barimo kugenda binjira mu kiraro, harimo kandi abasanzwe bahaba, ari bo borozi ndetse akaba ari n'abashumba.

Itsinda ry'abantu benshi bameze nk'aho ari koperative bakaba bafite ingurube, bakaba barimo kugenda bazishyira mu bice bigiye bitandukanye, bafite imigozi barimo kugenda bazikurura abenshi barimo kureba uko birimo kugenda.

Amatungo magufiya arimo ingurube, ihene, yororewe mu rugo, ahantu habugenewe. Atanga ifumbire kandi agatanga n'indi misaruro harimo nk'inyama n'ibindi. Ni ngombwa korora amatungo magufiya kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza.

Umugabo ukora ubworozi, akaba yorora ingurube, akaba arimo kugenda ayikoraho kugira ngo abashe kuba yayinezeza ndetse kandi abe yayigaburira ibyo kurya.

Ingurube ikaba irimo kugenda ifata ibyo kurya, hakuno hakaba hariho ikijerekani bakase, ari na cyo bagenda bashyiramo ibyo kurya ikagenda ibifatiramo ndetse kandi iyo igeze igihe cyo kuba yabyara.

Abagabo barimo kugenda berereza inkwavu bakaba ari urubyiruko, buri wese akabafitiye rumwe rumwe, aba ngabo bakaba baribumbiye hamwe kugira ngo bakore uyu mushinga wo korora.

Urugo rw'aborozi akaba hariho umugore ufashe ihene, akaba yagiye azizirikira hafi y'ikiraro ndetse hakaba hariho n'inka ifite uduhembe dutoya, irimo kugenda isatira umwana kugira ngo ayihe ubwatsi gafite.

Ubworozi bwinshi bw'amatungo, usanga abantu babigize umwuga babukuramo amafaranga bityo bakabasha kwiteza imbere. Akaba ari yo mpamvu usanga bashishikarizwa korora kugira ngo babashe kubona umusaruro.

Umworozi w'ingurube akaba afashe ingurube arimo kugenda ayiterura ayishimanshima arimo kuyihereza ubwatsi aha ngaha ni mu kiraro aho iba akaba yambaye agashati ko mu gitenge, ndetse kandi k'ubururu.

Umugore w'umworozi, akaba afite ihene zigera kuri ebyiri. Akaba arimo kugenda aziha ubwatsi, yagiye arambika hasi. Ahantu ziri nta kiraro zifite, zirira hasi ndetse kandi inzu arimo nazo na sima ziteye.

Ubworozi bw'ingurube usanga bwarateye imbere kuko akenshi aborozi babona amafaranga bakayifashisha mu gukemura ibibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye kandi bakunguka.

Ikiraro kinini, kikaba kirimo amatungo ndetse kandi buri muryango ukaba uriho akugi ko bafungura ndetse bakaba banafunga mu gihe bibaye ngombwa.

Ahantu bakusanyirije ihene bakaba bagiye bazizirika amaguru y'imbere kugira ngo zitabasha kwirukanga. Ahangaha akaba ari mu isoko bazijyanye kugira ngo babashe kuzigurisha babone amafaranga.

Inka imaze igihe gitoya ibyaye ikaba iri kumwe n'akana kayo, ikaba iri ahantu hasigasiye neza ku buryo idashobora kuba yajyaho umwanda ndetse n'ahantu akana kayo kari hasashe neza.

Inka ifite ibara ry'umweru n'umukara iri mu kiraro, ni inka nziza ubona ko yabonye ubwatsi maze irashisha ikaba ihagaze amafaranga menshi cyane.

Umugore akaba ari umworozi, afite ihene zigera kuri ebyiri, arimo kugenda azigaburira azikurura mu migozi. Hakurya hakaba hariho inzu ye ndetse kandi ikaba ikikijwe n'ibishyimbo.

Umugabo ukora ibijyanye n'ubworozi, akaba arimo kugenda yitegereza inka ze, akaba arimo kugenda areba niba bazihaye ubwatsi, zikaba zariye kandi zanahaze.

Ihene ziri ahantu mu kiraro hakaba harimo ibyatsi by'ibigorigori zamaze kurya, akaba ari ikiraro gikingishije imbaho ndetse kandi zikaba zirimo kugenda zabira.

Ubworozi bw'inkwavu, zikaba zigera kuri enye, zifite amatwi arimo kureba hejuru, zikaba ziri ahantu mu kiraro, aho uwakoze umushinga yazigeneye ko zaba.

Ingurube yororewe mu kajagari ikaba iri ahantu hatari ikiraro, ikaba ifite umwanda ndetse kandi irimo kugenda itoraguzwa ibintu ibonye, inyuma yayo kandi hahinze insina ndetse hakaba hariho n'igiti cy'avoka.

Ahantu hakaba hari ibiti byinshi by'amagereveriya bikiri bitoya biri mu bihoho, biteganywa ko bizagurwa barangiza bakaba babijyana kubitera, bigakorwamo ishyamba aho bagiye babishyira.

Iyo umuntu ahinze indabo inyuma y'igipangu, bikunze kugaragara nk'imitako myiza kandi bikaba bitera ishema abantu baba muri izo nzu.

Aho bahunika ibigori ndetse kandi hakaba ariho ibiti bagenda bashiraho ibigori bamaze gushabika, kugira ngo bibashe kugira ubushyuhe ndetse bize no kuma.

Ibishyimbo biteye bikaba bisasiye bikaba bifite ifumbire birasa umukara, harabura igihe gitoya ubundi bigatangira bigatanga umusaruro, ni bya bindi batajya bashiramo imishingiriro.

Akayira, kakaba kari gucamo amazi kuko ni twatundi baba barakoze kugira ngo ibimera biri muri aka gace bigende bikurura amazi kugira ngo bihore bifite ubuhehere ndetse kandi bibe bitoshye.

Igihingwa bita intoryi akaba zisasiye ndetse kandi bifite umusaruro ushimishije, hakaba habura igihe gitoya cyo kugira ngo babe bazisoroma zige gukoreshwa mu bintu bigiye bitandukanye.

Mu isoko hakaba harimo amashu arimo gucuruzwa, hakaba harimo abaguzi n'abari kugurisha, barimo kugenda bagura ibicuruzwa by'amoko agiye atandukanye.

Ibishyimbo bikiri bitoya, bimaze igihe gito bateye, bikaba birimo kumera, bikaba aho biri hariho ibiti byasigaye ku bigorigori byumye nyuma y'uko bamaze kubisarura.

Uturima tugera kuri tune ndetse kamwe kakaba karirimo intoryi bagiye bahumbeka hasi ndetse kandi hariho aho bagiye batunganya naho hazajya izindi mbuto.

Ahantu hari akarima k'igikoni, hakaba harimo imboga z'amoko agiye atandukanye ndetse kandi umuntu waha ngaha ntabwo ashobora kubura imboga kuko aba yariteganyirije hakiri kare.

Ahantu hari ibigori byamaze kuma bimwe byagiye bishaka no kwihungura, bikaba amababi yarumye ndetse bikaba bisigariye ku biti gusa, bikaba bya bindi byifashishwa nk'imihembezo.

Abanyeshuri barimo gukora isuzuma rigiye ritandukanye, aha ngaha bari ahakorerwa ubushakashatsi akaba afite agakombe n'akandi kantu arimo kugenda asukamo kugira ngo arebe ko igerageza rye rikunda.

Abahinzi ukunze gusanga bakora ibintu byabo kinyamwuga. Hari aho usanga bahinga banorora amatungo, kuko ariyo bakuraho ifumbire bifashisha mu bijyanye n'ubuhinzi.

Umugabo ukora mu bijyanye n'ikoranabuhanga akaba arimo kugenda asuzuma, aha ngaha akaba arimo kugenda yitegereza iki cyuma ari nako areba uko gikora.

Abagabo babiri barimo kurwana n'inka, umwe akaba yambaye isarubeti y'ubururu, akaba ari muganga w'amatungo. Uyu mushumba arayifashe, kugira ngo babashe kuyitera umuti, hanyuma bayivure uburwayi ifite.

Abagabo ndetse bafatanyije n'umugore barimo kugenda bavura itungo ryagize ikibazo, iyi ngiyi ni inka barimo gufatanya kugira ngo barebe ko bayikingira kugira ngo itazapfa.

Abagabo bagera kuri batatu barimo kurwana n'inka. Umwe muri bo afite iki gikoresho, akaba arimo kugenda ashaka kuyivura. Barimo kuyimufasha kugira ngo abashe kuyiha umuti.

Umugabo uri gutera inka urushinge kugira ngo ayikingire indwara zigiye zitandukanye, akaba yambaye isarubeti y'ubururu, ari kumwe n'umugore wambaye isengeri y'umukara.

Abagabo babiri bakaba bafashe inka kugira ngo babashe kuba bayikingira cyangwa se bakaba bashyiraho ikimenyetso ku gutwi ari ibyo kugira ngo bayibarure.

Umugabo ukora ibijyanye n'ubworozi, akaba yoroye inkoko, hakaba hariho umugabo urimo kugenda azitaho, areba ibibazo bifite, uyu nguyu akora mu bijyanye n'ubuvuzi, akaba ari muganga w'amatungo.

Utunyamaswa tugera kuri dutatu, tuboneka muri pariki y'Akagera, tukaba turimo kureba mu byerekezo bimwe, zose kandi zikaba nta mahembe zifite, uretse amatwi zabanguye nk'aho ari amahembe.

Utunyoni tubiri kandi dufite imirizo miremire, zikaba zifite n'amabara asa, zikaba zifite ibara ry'ubururu, zikaba zihagaze ahantu hari igiti cyigonze.

Inyamaswa ifite uruhu rw'umukara ndetse ikaba ifite ubwoya bw'umukara. Ikaba imeze nk'inkende ndetse kandi aho bitandukaniye, ni uko iyi yo imeze nk'ingagi ndetse ahantu iri, iri mu ishyamba akaba abantu bayibona igihe bayisuye.

Inyamaswa ifite umurizo muremure urimo kugenda ukora hasi wagira ngo ni inzoka. Inyamaswa kandi imeze nk'inkende, aho bitandukaniye ni uko yo ari iy'umukara ndetse kandi ikaba ari nini.

Inyoni ifite umunwa muremure ndetse ikaba ifite amabara y'ubururu, ikaba ifite andi y'umuhondo n'atukura ndetse ikaba ifite n'umurizo muremure.

Inyamaswa nyinshi zikunze kuba mu ishyamba, kuko usanga hari aho bazishimuta akaba ari yo mpamvu zibungwabungwa umunsi ku munsi.

Akenshi ukunze gusanga inkende zikunda kuboneka ku manywa ariko nijoro ntiwapfa kubona aho ziba zagiye. Ni na yo mpamvu abantu benshi batamenya aho ziba zirara.

Inyamaswa imeze nk'inkende aho bitandukaniye yo ikaba ari iy'umukara, ikaba ifite ubwoya bumwe bw'umweru ndetse kandi ikaba ifite n'ahandi hari ibara ry'umukara.

Inyamaswa ifite amahembe maremare, imeze nk'ihene ariko yo ikaba ifite amaso manini. Ikaba iri ahantu hari umucaca ndetse kandi ikaba irimo kureba hejuru aho kugira ngo irishe.

Umukerarugendo ukunze gusanga bakunda kujya gusura inyamaswa muri pariki, kugira ngo bamenye uburyo zibayeho n'uburyo bazirinda, ba rushimusi bazihiga mu ishyamba.

Umugabo urimo gukina n'inkende, ikaba iri gutwara amakayi ndetse kandi ikaba irimo gushaka kumwaka ibyo afite kugira ngo ize kubitwara, na we akaba arimo gushaka guhangana na yo.

Umugezi ukaba urimo ibikeri bikaba birimo kugenda bitaruka, aha ngaha ni mu gishanga aho hari igikeri gifite amabara ajya gusa nk'umutuku ndetse kandi harimo n'ibindi byatsi biboneka mu mazi yo mu bishanga.

Inyamaswa zimeze nk'inkende, uretse ko zo zisa umukara, zikaba zifite ibyiso by'umukara, zikaba ziba mu ishyamba, aho zikunze kuboneka cyane cyane mu maparike.

Inkende zikaba ziri mu giti hejuru, zikaba ziri kumwe n'imiryango yazo, zikaba ari enye, imwe muri zo ikaba ihetse akana kayo kakaba kayifatishije umurizo.

Akanyamaswa kakaba gafite ikirizo kirekire kigasumba, kakaba kameze nk'isiyaha ndetse urebye mu maso wagira ngo ni urukwavu, kakaba gafite ikintu cy'umuhondo karimo kugenda karya.

Akanyamaswa kameze nk'urukwavu, kakaba gasize utuboko hejuru, aho bitandukaniye ni uku ko gafite amatwi matoya, kakaba gafite n'ikiririzo kirekire, kikaba kigasumba.

Inyamaswa zigera kuri eshatu zimeze nk'ihene, ziboneka mu mapariki, izi ngizi ukaba washobora kuzibona mu gihe wagiye gusura pariki zimwe zo mu Rwanda, cyane cyane iy'Akagera.

Inyamaswa bita ingagi, ikaba iboneka cyane cyane muri Pariki y'Ibirunga, ikaba ikurura bamukerarugendo, kubera ko iba ifite ubwenge ndetse ikaba iboneka ahantu hakeya ku isi.

Inyamaswa bita inkende zikaba ziri mu giti hejuru, zikaba zigera kuri enye, hariho imwe ifite n'utwana twayo irimo kugenda ikurura zagiye zizingiriza imirizo ku biti.

Inyoni ikaba ijunjamye ndetse kandi ikaba ifite amabara agiye atandukanye, yiganjemo umukara ndetse n'andi agiye gusa nk'umuhondo, ikaba ifite n'ikirizo kirekire.

Inyoni ifite urunwa rusongoye ndetse rukaba runabyibushye, ifite amabara agiye atandukanye yiganjemo umweru ndetse n'umukara, ikaba iri mu giti.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ubona ko ari inyubako nziza isize irange ry'umweru n'umuhondo. Iyo nyubako iri muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye.

Akanyamaswa gatoya, kagenda kihinduranya bitewe n'aho kageze, bakaba bakita uruvu, bitewe nuko kagenda kihinduranya bitewe n'ikintu gahuye na cyo. Niba ari ibyatsi cyangwa se abantu ni ko na ko gahita kihinduranya.

Akenshi ukunze gusanga habaho ibikorwa bitandukanye kugirango inyamaswa zibashe kuba zarindwa mu mashyamba zirindwe ba rushimusi.

Inyamaswa bita isatura, ikaba ifite amahembe agera kuri atatu ari imbere mu gihanga, ikaba igira amahane cyane ndetse ikunze kuboneka muri parike y'Akagera.